Imodoka izwi ku izina ry'imbangukiragutabara iparitse imbere y'inyubako ifite amabara asa move, iyi nyubako kandi hariho icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Abamama bagera kuri bane bose bambaye impuzankano y'akazi, umwe muri bo yambaye ga mu ntoki ndetse akenyeye n'agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umukara, arimo gupima umuntu umuvuduko w'amaraso.

Abagabo batandatu n'umumama umwe bicaye ahantu kudutebe, umwe muri bo yambaye umwenda wa kuruwa ruje bisa nk'aho hari igikorwa cy'ubutabazi baje kuhakorera.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso iri mu mabara y'umweru, iriho itente ifite ibara ry'icyatsi, mu imbere mu itente hicayemo abantu bari kuganira, hari abandi bari ku ruhande bahuze bibereye mu byabo.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubutabazi Kuruwaruje bari kumwe n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye harimo n'abambaye impuzankano ya daso hirya yabo hari icyapa cy'umusaraba.

Abamama bamwe baricaye abandi bararyamye abandi barahagaze, hari ibitanda ndetse buri gitanda kigiye gifite supanete iri mu mabara y'ubururu, ni muri materinete aho ababyeyi babyarira.

Umamama wambaye ishati y'umweru ndetse na ga zisa umweru mu ntoki ze, afite igikoresho yashyize mu gutwi arimo kumva uko umutima w'umurwayi urimo gutera, hirya yabo hari abandi bantu babiri na bo bambaye amashati y'umweru bari kwitegereza ibyo akora.

Abagabo babiri bafite igikoresho cy'ingobyi cyakoreshwaga kera gitwara abarwayi kibavana aho barembeye kibageza kwa muganga.

Umugabo wambaye umupira uriho ikimenyetso cy'umusaraba, ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye ku ntebe zisa umutuku nabo bambaye amajire ariho ikimenyetso cy'umusaraba ndetse ari mu ibara risa umweru, baricaye bari kumutega amatwi.

Abantu bane barimo guterura umuntu bamushyira ku gakoresho gakoreshwa gatwara umuntu ugize ikibazo utarimo kubasha kugenda, bambaye imyenda isa umutuku iriho ikimenyetso cy'umusaraba.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze mu muhanda wa kaburimbo bambaye amajire asa umutuku ndetse n'umweru imbere mu gatuza hariho ikirangantego cy'umusaraba, umwe muri bo afite igitiyo ari gukura imyanda mumuhanda.

Abagabo bane bambaye amajire ariho mu mugongo ikimenyetso cy'umusaraba, bari ahantu mu murima w'icyayi, birasa nk'aho hari umuntu wagize ikibazo barimo guha ubufasha, hirya yabo hari umusozi uhinze ndetse hateye n'ibiti by'inturusi.

Abagabo, abagore bateraniye ahantu bose bambaye amajire y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubutabazi, umwe muri bo yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari umuryango wanditseho ijambo salle nimero rimwe.

Inyubako iteraniyemo abantu, bamwe bambaye amajire asa umutuku hariho n'ikimenyetso cy'umusaraba, iruhande rwabo hari abandi bambaye amajire asa umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umusaraba, hari ameza ariho igitambaro gisa ubururu hateretseho amazi yo kunywa, impapuro, ikaramu ndetse na telefone.

Abagabo ndetse n'abagore bateraniye ahantu hamwe, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ibitenge, umwe muri bo afite ikintu kimeze nk'akabido arimo kongerera umurwayi umwuka, hirya yabo hari udutebe ndetse n'abantu batwicayeho.

Imodoka izwi ku izina ry'imbangukiragutabara ikoreshwa mu kujyana abarwayi ibavanye aho barembeye ibageza ku bitaro ku buryo bworoshye iri kugendera mu muhanda w'igitaka iruhande rwaho hari igikuta cyubakishije amabuye.

Inyubako irimo ibitanda byinshi bitandukanye ndetse n'amarido afite ibara ry'ubururu, harimo kandi abantu benshi bambaye amaserubeti apfutse umubiri wose bisa nkaho hari icyorezo barimo kwirinda.

Icyumba kirimo intebe eshatu zisa umukara ndetse n'gitanda cyiza gifite amapine, iruhande rwacyo hari amadirishya, hariho amarido meza cyane, hari kandi n'ameza asa neza, hasi hari amakaro akeye.

Inzu yahuriwemo n'abantu benshi bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abagore ndetse n'aba mama baricaye baratuje barakurikiye imbere yabo hasa nkaho hari umuntu urimo kubagezaho imbwirwaruhame.

Kwa muganga ni hamwe hatangirwa serivisi zinoze zijyanye n'ubuzima, ibitanda bigera kuri bine abarwayi barembye baruhukiramo kugira ngo bahabwe ubufasha batekanye kandi bameze neza.

Abagabo ndetse n'abamama bakikiye abana umugabo wambaye ijile arimo guha umwana umuti akoresheje agakoresho kabugenewe k'ikiyiko iruhande rwabo hari abandi bantu bategereje ko nabo bahabwa serivisi.

Idirishya rifunguye hanze yaryo hari aba mama batatu, babiri muri bo bafite abana, hanze y'iryo dirishya handitseho ijambo mituweri gatanu, n'aho bakira serivise zijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza.

Inyubako yahuriyemo abantu bo mu ngero zitandukanye, abana, abagore, ndetse n'abagabo, baricaye bategereje guhabwa serivisi baje gushaka. ni kwa muganga. Hirya yabo hari igikuta cyanditseho ''Aho twakirira abatugana''

Ibikoresho bifite amabara atandukanye ;umweru, ubururu ,ndetse n'icyatsi biri ahantu mu nyubako ,bikoreshwa muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga.

Icyumba cyicayemo abantu batandukanye, abagore ndetse n'abamama, imbere yabo hari umuntu wambaye ishati iri mabara y'umweru ndetse n'umukara arimo kubagezaho imbwirwaruhame yabateguriye.

Abagabo bane ndetse n'umumama umwe, umwe muri abo bagabo yambaye itaburiya y'umweru ndetse afite n'agakapu mu ntoki ze, bahagaze imbere y'inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Abagabo bane ndetse n'abamama bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari impapuro ndetse na telefone, baricaye baratuje bari kungurana ibitekerezo.

Umuganga n'umurwayi umurwayi yaje kwivuza umuganga arimo kumufata amaraso ku rutoki bigaragara ko hari ikintu arimo kumupima mu mararaso.

Umugabo wicaye washaririwe mu maso, yicaye imbere ya muganga bisa nk'aho ari kumuvoma amaraso mu mutsi akoresheje urushinge, arimo kubabara nk'uko bigaragara mu maso.

Igikoresho kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, giteretse ahantu ku makarito, inyuma yacyo hari intebe iri mu ibara ry'umukara, iruhande rwabyo hari urugi rwenda gusa umutuku.

Icyumba cyahuriwemo n'abantu batandukanye abagabo ndetse n'abamama, umumama umwe arimo kurya keke abandi baricaye, umugabo umwe ari kuri mudasobwa hari ibyo arimo gukora.

Abantu benshi bicaye ku ntebe hanze y'inyubako, baricaye baratuje bisa nkaho bategereje guhabwa serivisi, ni kwa muganga bategereje ko bahabwa ubufasha bujyanye n'ubuvuzi.

Imbaga y'abantu benshi bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ab'imbere bafashe icyapa cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, hepfo yaho handitse ibitaro bya Nyagatare, inyuma yabo hari imodoka eshatu zirimo kugenda muri uwo muhanda.

Icyapa gishinze ahantu mu busitani, kiriho ibendera ry'Igihugu riri mu mabara atatu ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, icyo cyapa kandi handitseho amagambo agira ati impesha kurama z'ibitaro bya Nyagatare.

Inyubako ifite amakaro meza cyane asa umweru ndetse n'amatara manini kandi meza, irimo umugabo ndetse n'aba mama babiri bambaye impuzankano y'akazi.

Imodoka iparitse imbere y'ibiti birebire by'imbangukiragutabara. Imbere yayo hahagazeho abagabo ndetse n'abamama bigaragara nk'aho bari kwifotoza.

Inyubako isakaye ku buryo abantu batanyagirwa, buri nkingi hahagazeho abantu, hirya y'aho gato hari igiti ndetse n'imodoka nyinshi zihaparitse.

Icyumba kirimo abamama babiri bambaye imyenda y'icyatsi, ku gitanda hari umurwayi uharwariye, umwe muri abo baganga arimo gusuzuma indwara yaba arwaye kugirango abashe kumuha ubuvuzi akwiriye.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, cyanditseho nyagatare district hospital cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda ibitaro by'akarere bya Nyagatare. Munsi hahagaze abantu batandukanye harimo abaganga ndetse n'abaturage basanzwe.

Umumama wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'icyatsi n'umweru ndetse wambaye n'itabuririya yumweru na ga mu ntoki ze. Arimo gutegura ikinyabutabire gifite ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye ga mu ntoki zisa umweru, hari kandi n'ikindi kiganza cy'umwana, umuganga arimo gufata amaraso mu kiganza cy'uwo mwana kugira ngo arebe indwara yaba yarwaye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga mu ntoki, ari kumwe n'umumama wambaye ibitenge ari kumupima ku rutoki kugira ngo arebe indwara yaba arwaye, imbere yabo hari udutesite bakoresha bapima amaraso, hirya yaho hari izindi nyubako.

Umudamu ufite umusatsi wa natirere ndetse wambaye itaburiya y'umweru, yambaye kandi na ga mu ntoki, afite uducupa mu ntoki ze arimo aragenzura icyaba kirimo.

Urutoki rw'umuntu wambaye ga zisa icyatsi arimo gukoresha umunzani wa kizungu hari n'agasahane gateretse kuri uwo munzane, bigaragara ko hari ikintu ashaka gupimiraho.

Umugabo w'umuzungu uri kumwe n'abandi bagabo batatu bamanitse ibiganza barishimye baranezerewe ,bambaye imyenda isa umweru ndetse umwe muri bo yambaye amarinete, hirya yabo gato hari akabati kabikwamo ibikoresho bitandukanye.

Umumama wishimye uri guseka wambaye amadarubindi asa umukara, yambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga zisa ubururu ari mu nyubako irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, yambaye ga mu ntoki zisa ubururu, ni umuganga, arimo aratesitinga indwara zitandukanye.

Umu mama uhagaze mu idirishya ukenyeye agatambaro k'umweru mu mutwe ndetse uhetse umwana. Arimo gufatwa amaraso na muganga wambaye ga mu ntoki zisa umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, iruhande rwabo hari aka bogisi kari mu ibara ry'umuhondo.

Umumama wicaye mu ntebe isa ubururu ukikiye umwana wambaye akagofero gasa umweru arimo kumwonsa ubona ko ashishikaye aranezerewe kubera uburyo umwana we ari konkamo.

Abana bambaye imyenda isa, bose bafite inkongoro bari kunywa amata. Iruhande rwabo hari abandi bantu bahagaze ndetse hari n'abandi bicaye. Umwe muri bo arimo guha umwana amata.

Abagore ndetse n'abamama bambaye amataburiya asa icyatsi ndetse n'umweru, bose bafite amatelefoni mu ntoki zabo, bamwe bari kurebamo, abandi bari guseka, bahagaze ahantu hamwe, inyuma yabo hari igiti cyihateye.

Abagabo, abamama ndetse n'abana bambaye imipira isa ndetse umugabo umwe wambaye linete arimo gusomeza umwana akoresheje inkongoro, inyuma yabo hari abandi bantu bari kubafotora bakoresheje kamera.

Umuyobozi wungirije w'Akarere ka Nyagatare ari kumwe n'abajyanama b'ubuzima, bari kumwereka uko bapima uruhinja uburebure, hifashishijwe umunzani wabugenewe ukoreshwa mu gupima uburebure bw'impinja.

Imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye: inanasi, inyanya, imboga rwatsi, karoti ndetse n'igitoki, hateraniye abantu benshi bicaye ku dutebe, hari kandi n'amasafuriya arimo ibyo bamaze gutegura bagiye guteka hari n'agacupa karimo amavuta ya buto.

Inyubako ifunguye umuryango, hahagazemo umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse imbere hariho icyapa cyanditseho amagambo urugo mbonezamikurire y'abana bato.

Abamama bari guseka bicaye ahantu. Bose bakikiye abana. Baje kubakingiza indwara zigiye zitandukanye hano kwa muganga. Bategereje guhabwa serivise. Umumama umwe yambaye ishati isa ubururu.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'ivu ari kumwe n'umumama wambaye amarinete ndetse ufite n'imisatsi isa umukara, yambaye ibitenge, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho ijambo RDB.

Abana bari ku ishuri bicaye ku dutebe twabo bambaye iniforume nziza ibabereye, imbere yabo hari ababyeyi bafite ibiryo mu ntoki bagiye kugaburira abo bana.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo isange wani sitopi senta, hejuru yayo handitseho ijambo ribu hariho n'ikirangantego cy'izuba, hariho n'imibare ushobora kubahamagara mu gihe wahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

umuhanda w'igitaka uri kugendwamo n'imodoka ya dayihatsu, iruhande rw'umuhanda hari abandi bantu bahahagaze, abagore ndetse n'abagabo, bambaye udupfukamunwa barikuganira.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti mu muhanda harimo kugendamo imodoka ifite ibara ry'icyatsi, harimo abantu bafite icyapa cyanditseho amagambo duharanire kubaho neza twita ku buzima kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Umumama wambaye ikositime y'umukara ndetse wambaye n'amarinete ahagaze imbere y'abantu bamutunze mikoro ndetse na terefone arimo gutanga ikiganiro.

Inyubako nziza ifite amarangi meza cyane, iri ahantu heza, hari ubusitani bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti by'imyembe, hari kandi n'akayira keza k'amabuye kajya kuri iyo nyubako.

Icyumba kiri kuberamo inama cyicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, imbere yabo hari mama ufite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse n'urupapuro mu ntoki. Yambaye agapfukamunwa k'umukara arimo kubagezaho ijambo yabateguriye imbere kandi hari icyapa cyanditseho RBC.

Umusaza ndetse numukecuru, bicaye imbere yumugore ufite imisatsi isutse, arimo arabandika mu mpapuro, birasa nkaho hari serivisi baje kumusaba, nawe arimo kubafasha ntacyo yitayeho.

Abagabo batatu n'abamama babiri bicaye ku ntebe imbere, inyuma yabo hari ibyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, umwe muri bo afite indangururamajwi hari imbwirwaruhame ari kugeza ku bamuteze amatwi.

Abantu bicaye mu dutebe dufite ibara ry'umweru bari kuganira, iruhande rwabo hari imodoka yo mu bwoko bwa fuso yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga agira ati "Mento helifu mobayilo kirinike."

Inyubako irimo abantu batandukanye, aba mama, abakobwa ndetse n'abagabo. Bayicaye baratuje, bisa nkaho hari ikintu k'ingenzi bagiye kuganiraho cyabateza imbere.

Abadamu babiri bose bambaye udupfukamunwa dusa umweru, umwe afite imisatsi ya natirere undi arasutse, bicaye bareba imbere kuri porojegiteri uko tubibona hari icyo bari kwigaho.

Umugabo w'umuganga wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, ahagaze mu miti arimo arareba uko igiye itondekanyije mu ma etajeri yayo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ivura indwara zifata abantu, imbere yayo haparitse ipikipiki ndetse hari n'abantu babiri bari kugenda, umwe yikoreye ikintu gifite ibara ry'umutuku inyuma yayo hari inyubako ya etaje.

Imiti myinshi cyane igiye itondetse mu ma etajeri yayo harimo ifite amabara y'ubururu ndetse higanjemo n'ifite amabara y'umweru. Ifite amabara y'umweru ni yo myinshi cyane.

Inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, ikoreshwa mu kuvura indwara zifata abantu, hahagazemo umugabo wambaye itaburiya y'umweru arimo kwitegereza mu ikayi kugira ngo arebe ibyinjiye ndetse n'ibyasohotse.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye itondetse neza mu ma etajeri yazo, harimo utubido dusa shokora, udusa umweru ndetse n'iri mu dukarito twinshi cyane.

Imiti irambitse ahantu ku meza, imwe iri mu dukarito indi ntabwo iri mu dukarito. Itari mu dukarito yakoreshejweho ni imiti ivura indwara zitandukanye zifata abantu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ahagaze mu nyubako irimo imiti itondetse neza ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Inzu icururizwamo imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata abantu, imbere kuri iyo nyubako hari icyapa cyanditse mu magambo y'umweru famasi feriseni.

Umugabo ndetse n'umugore bose bambaye amataburiya y'umweru. Bahagaze mu nyubako irimo imiti myinshi igiye itandukanye ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inzu icururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye zifata abana abakuru ndetse n'abasaza. Iri ahantu hatuje iruhande rwayo hari indi nzu ifite amabati asa umutuku.

Imiti irambitse ahantu hamwe imwe iri mu mabara y'umutuku indi iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Ikoreshwa mu kuvura indwara zifata abantu.

Umunma wambaye ikanzu ifite utubara tw'umweru ndetse n'umukara, ahagaze mu nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ivura indwara zitandukanye zifata amatungo.

Abana, abagabo, bateraniye ahantu, abo bana bambaye imyenda isa iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, inyuma yaho hari amatente ari mu mabara umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze, higanjemo: abana, abamama ndetse n'abagabo, inyuma yabo hari moto ndetse n'ibyapa bihamanitse.

Icyapa kigaragaza ko hari gahunda yo gukingira imbwa indwara y'ibisazi. Cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo uhagaze wafatanyije amaboko, abumbye umunwa, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry' umutuku, rubyiruko koresha agakingirizo, ubungabunga ubuzima bwawe.

Imiti gakondo irambitse hasi ku mifuka, iruhande rwayo hari abamama batatu bose bakenyeye udutambaro mu mutwe, hari kandi n'uducupa tw'amazi.

Imiti gakondo iri mu dukoresho tugiye dutandukanye iteretse ku meza, hari abantu barimo kureba niba yujuje ubuziranenge, ikaba yatangwa ku isoko kugira ngo ifashe abantu bafite indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata abantu ndetse n'amatungo, iri ahantu itondetse neza ku murongo, iri mu macupa asa icyatsi ndetse n'umweru.

Abagabo babiri ndetse n'umumama umwe abagabo baryamye ku bitanda babashyizeho akantu kavoma amaraso, uwo muma ni umuganga.

Umumama wambaye agakomo ku kaboko k'iburyo, ndetse n'impeta ku kaboko ka gatatu. ari kuvuguta umuti awushyira ku isahani iyo sahani iriho n'ikiyiko. Ndetse iruhande rwayo hari indi miti ihari.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse wambaye n'akandi kantu mu mutwe, yambaye itaburiya y'umweru ni umuganga. Arimo arareba neza niba imiti bamuzaniye yuzuye kandi yujuje ubuziranenge.

Ibikoresho byifashishwa n'abakozi bakora mu bijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, harimo igikoresho bakoresha bumva uko umutima utera ndetse hari na selenge, hari kandi n'umukasi bakoresha bakata ibintu bigiye bitandukanye biteretse ku meza.

Imiti gakondo igiye itandukanye iri ahantu ku meza bayanitse bari kuyitunganya kugira ngo izakoreshwe mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo witwa ogisitetarasayitirini kandi hariho igishushanyo cy'inka, intama ndetse n'ihene.

Inyubako ebyiri ziri mu mabara y'ubururu, muri izo nyubako hicayemo abantu bategereje guhabwa serivise, ni kwa muganga baricaye bategereje kwinjira.

Abagabo batandukanye bahagaze ku murongo bari kwifotoza, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Nyamikamba, iki kigo nderabuzima gifasha abaturage mu kubona serivise zijyanye n'ubuzima.

Ibitanda bitatu bifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Hari umumama iruhande rw'igitanda, ufite ibikapu byinshi ndetse ukenyeye n'igitambaro mu mutwe. Buri gitanda kigiye gifite supannete yacyo iri mu ibara ry'umweru.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu inkuta, amabati byose birasa ubururu. Hirya yaho hari indi nzu isakajwe amabati y'umutuku imbere yiyo nyubako hari abantu bahagaze ndetse hari n'icyapa.

Abagabo ndetse n'abagore benshi bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima, bamwe muri bo bambaye amabaji mu majosi yabo bimeze nk'aho hari igihembo bahawe, hari umumama kandi wambaye itaburiya y'umweru wishimye cyane ndetse wambaye n'amarinete y'umukara.

Umudamu wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru, yambaye agapfukamunwa gasa icyatsi ari guseka arishimye afite akanyamuneza, akora muri serivise zijyanye n'ubuvuzi.

Umuhanda w'amapave uzamuka, urakeye ndetse uratuje kuko nta kinyabiziga kiri kugendamo, iruhande rwaho hari inyubako icururizwamo imiti ikoreshwa mu kuvura indwara z'abantu izwi nka farumasi.

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ikoboyi. Ari kurebera mu idirishya ku nyubako ikorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi. Iruhande rwaho hari abandi bantu bicaye mu ntebe bategereje guhabwa serivisi.

Umumama uhetse umwana umutwikirije agasharupe k'umweru ari gusohoka mu nyubako ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu ni kwa muganga.

Abagabo bane ndetse n'aba mama babiri ,umwe ahetse umwana undi yambaye itaburiya y'umweru, babiri muri aba bagabo bambaye amataburiya y'ubururu n'abajyanama b'ubuzima, imbere yabo hateretse uducupa tubiri tw'umweru isahani ndetse n'impapuro n'ikaramu.